Ahantu hari inama haba hateguye cyane hari isuku kandi hatuje. Iyo abantu bitabiriye inama, usanga bambaye neza kandi bikwije. Abagabo bambaye amakositime.

Umuntu urakaye aba yigunze, ntaba yishimye muri rusange, akenshi ibi bishoboka guterwa n'ubukene, amakimbirane mu muryango.

Hari uburyo bwinshi bwo gusukura amenyo. Umuntu ashobora gukoresha akadodo mu gihe asukura amenyo. Si ibyo gusa hari imiti yabugenewe umuntu akoresha asukura amenyo, hanyuma agasa neza. Iyo umuntu adasukuye amenyo akenshi amenyo ararwara.

Ibidukikije ni ingenzi cyane bidufasha kubona umuwuka mwiza wo guhumeka kuko biyungurura umwuka wanduye bityo ukaba mwiza, ibimera bicumbikiye inyamaswa inyoni ndetse n'izindi nyamaswa zigiye zitandukanye.

Siporo ni ingenzi cyane idufasha kugira amagufa akomeye, idufasha kwirinda indwara zigiye zitandukanye nk'umubyibuho ukabije, ibinure mu mubiri ndetse n'ibindi. Umuntu ukunda gukora siporo ntakunze kurwaragurika.

Uruganda ni ahantu hatunganirizwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hashoboraganywa ibyo kurya, hifashishije ibindi bikoresho runaka, akenshi usanga inganda zigiye zikomeye cyane kandi zubatse ahantu heza.

Ahantu habera inama, haba hatekuye cyane kandi hafite isuku. Intebe zigezweho, ameza, sibyo gusa habateye amarangi meza cyane. Inzugi zaho akenshi ziba zikomeye.

Gutanga amaraso ni ingenzi cyane. Iyo umuntu atanze amaraso abarokoye ubuzima bw'abantu benshi. Hari abantu benshi bakora impanuka, ugasanga amaraso abashizemo, ariko iyo umuntu atanze amaraso yifashishwa bafasha izo ndembe.

Mudasobwa ni ingenzi cyane. Tuyikoresha ku ishuri dukusanya amakuru, si ibyo gusa, yifashishwa mu nama. Ikindi kandi, mudasobwa tuyikoresha tureba amakuru agiye agezweho.

Siporo ni ingenzi cyane. Umuntu ukunze gukora siporo ntago arwaragurika, ikindi kandi siporo ituma umuntu yongera ibiro akagira amagufa akomeye.

Ibikoresho byo kwa muganga, usanga ibikoresho bigezweho cyane. Urugero nk'umuzani ndetse n'ibindi bikoresho. Umunzani wifashishwa wapima ibiro by'umurwayi, si ibyo gusa hari iminzani imwe n'imwe igufasha kumenya ubushyuhe umurwayi afite.

Imiti akenshi iba ifunze mu macupa, uku ni ukugira ngo itaza kwangirika nambase ikivanga n'imyanda bityo ugasanga abantu bahazahariye bahaburiye ubuzima.